Ifumbire y'imvaruganda iri mu mufuka, akenshi yifashishwa mu kwapurika ibihingwa mu kubitera, kugira birusheho gutanga umusaruro mwinshi.

Ikirungo akenshi cyifashishwa mu guteka ibiryo bakagishira mo byenda gusha kugira ngo gihindure impumuro yabyo, uburyohe ndetse binase neza, citwa tetani, gifite garama makumyabiri, kikaba kigura ijana.

Amabase atatu y'icyatsi n'indi y'ubururu, harimo ubunyobwa nudukoroboyi two gupimisha igihe ugiye guha umuntu, kugira agire ibyo atwara twa duteretse hasi ku butaka.

Imifuka irimo ifumbire mvaruganda ya Ire, akenshi yifashishwa mu kwapurika imyaka imaze kumera ,kugira ibyibuhe cyane cyane nk'ibinyamisorwe, nk'ibishyimbo n'ibigori.

Umurima uhinzemo ibigori biri kumera, bikaba byarabonye amazi bitangiye kuzamuka, bakaba bazabifumbira bakongeraho n'ifumbire, kugira byongere umusaruro binakure vuba.

Ikiyaga kirimo amazi menshi cifashishwaga kenshi mu burobyi, mu gutwara abantu bifashishijwe ubwato. Hameze nk'aho harimo ikirwa hagati. hakikijwe n'imisozi, intoki n'ibindi biti bitandukanye n'abantu bahatuye.

Ubworozi bw'amafi, aho abarobyi bavuye kuzana amafi bayakuye mu mazi, bakayashyira mu matureyi kugira bayapangemo neza, babone uko bayageza ku isoko hirya no hino, maze abantu babone uko bajya kuyarya.

Ifi batetse ihiye batahuriye ku isahani n'isosi iri hirya yo kuyirisha. Ikaba iva mu mazi, kandi ikaba iribwa ari uko bamaze kuyikaranga, ikaba iryoha cane ku bantu bazimenyereye.

Abagabo bane, batatu bahagaze bari iruhande rw'ubwato kenshi bwifashishwaga mu gutwara abantu babakura ku ruhande rumwe rw'amazi magari babajyana ku rundi ruhande, kubera ko gucamo no kugenderamo biba bitashobokera abantu, keretse abazi koga muri ago mazi, kandi ikindi hirya hari imisozi.

Ifi iri kucyokezo. Baba bazikuye mu mazi, bakazizana ngo bazitunganye, umuntu uza kugura abone iya arya, yahiye neza. Akenshi zikaba zikungahaye ku ntungamubiri za poroteyine.

Ifi bashyize ku cokeza kugira ngo abantu bayishaka baze kuyigura bayirye babona intungamubiri ziturukagamo, harimo nk'amaporoteyine asanzwe n'ubundi aboneka mu nyama.

Ifi batetse yahiye batahuriye ku idongo hirya hariho n'imboga kugira barangize kuyirya ibaryoheye ikaba nayo iri mu bwoko bw'inyama kandi ikundwa cyane.

Umurima gurimo ibigorigori guhinze urukanda hirya hariyo urutoki rurimo injegwe n'inturusu ziri haruguru ya ho n'inzu ya ruhenika hariho n'igiti c'igiko hejuru haciye insinga z'amashanyarazi.

Ubwatsi bw'urubingo buteyemo umurima harimo n'intoki. Aho bwagenewe kuribwa n'inka n'ihene. Bukaba buzwiho gufasha abuhinzi mu bworozi bwabo. Bukaba butanga umusaruro bukora n'imiringoti.

Umurima uhinzemo amajeri yarumbye, hirya hariho uruzitiro ruteyeho ibidodoki bisoromwaho imboga rwatsi, ibindi bakabirya babiketse. Haruguru hariyo inzu nini ya mugongo watembo n'indi ya ruheneka.

Umurima urimo ibigorigori akenshi uboneka, ibigori byeze ibyatsi bisigaye bikumiramo, aho bategereje ku guhinga kugira bateremo indi myaka.

Igitari camezemo ibyatsi n'amababi yahungukiye hasi, kikaba kirimo inturusu za nyiramweru n'ibindi biti by'amaburiti biri gukura bitaragera igihe cyo kubazwa.

Amatunda yera ari umukara bashingirira kugira ngo atange umusaruro mwinshi yaratondagiyeho akaba azwi ku izina ry'amarozi.

Umurima guhinzemo amajeri gakizamuka gafite uruyange, gamezamo ibyatsi by' isanduruma byinshi, akenshi batabona uko babagara ubwo bazarindira ko gavamo kugira na byo bivamo cyangwa se babihe amatungo.

Igiti cy'umubirizi gifite ibisagi akenshi gikoreshwa mu kuvuguta umuti wo guha ihene cyangwa inka zirwaye inzoka, akenshi kikaba kizwiho kugira imbaraga nyinshi mukuvamo umuti.

Imboga rwatsi ziteye mu murima urimo n'intoki, hashinzemo n'ipoto inyuramo amashanyarazi. Hariho n'ikidodoki cyatondagiye insina, aho byifashishwa mu guteka.

Ikibara batari bahinga camezemo ibyatsi by'umucaca. Harimo n'ibiti ahakikije bakaba barahinzemo ibirayi, naho bakaba bazahatunganya kugira ngo naho bateramo indi myaka, bitazatuma honera abahakikije.

Umugezi urimo amazi akikijwe insasa n'igishanga, bahingamo n'umuceri bikaba byifashishwa cyane cyane mu burobyi, gucucira ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Insina eshatu ziri ahantu mu murima w'amakoma batari bahinga, hirya hari inzu ya kadasitere ifite igipangu, ishakajwe amabati y'umutuku, n'akabuga kari inyuma.

Igitari kirimo ibiti bya nyiramweru harimo: umutobutobo, n'igiti cy'ikidariya, aho inturusu zifashishwa mu kubaka, gucana amakara, ibikuze cyane bakabibazamo imbaho.

Ibishyimbo biteye ahantu mu rukoro biri kumera by'umugondoro. Harimo amabuye akenshi bakaba bakoresha udukonzo mu kubishyira mu butaka, hanyuma y'iminsi runaka byabonye imvura bikamera.

Umurima gwamezemo ibyatsi gurimo n'ibikongorezwa harimo n'intoki bategesheje injegwe hirya haka hari inturusu na masipure he hari n'akayira k'abanyamaguru k'irembo.

Umurima uhinzemo indego mu mitabo, ukikijwe n'uruzitiro ruriho ibidariya, harimo n'ikibonobono, uhinzemo karoti, ndetse zikizamuka, zitari zera.

Umurima uhinzemo ibitunguru bya onyo . Akenshi bikaba bikoreshwa mu gukaranga ndetse bikaba biryana mu maso iyo umuntu ari kubikata ikindi birinda indwara nyinshi zitandukanye.

Ibigori by'imiheko bitoshye bifite udusage tw'umutuku, bibura gake ngo bigere igihe cyo kuba waryamo umusigati, ndetse nyuma yaho bikera bakaba babitera.

Igiti cya avoka kirimo iz'imbangurire, kenshi zikaba zerera hasi kandi imbere zikaba zisa n' umuhondo iyo zihiye, zikaba zizwiho no kuryoha, zikaba zitanga amavuta nazo.

Ibirayi bapakiye mu mifuka myinshi iteretse hamwe aho hejuru bashyizemo amabambizo utegereje kuza ku bidoda kugira ubone ko babipakira mu modoka maze babigeza ku isoko.

Abagore b'abahinzi bishyize hamwe n'abagabo bari guhingira amashu nabo bakaba bari mu mboga ziri mu birinda indwara ndetse zikifashishwa no mu kubungabunga amagara mazima.

Umugore uri gushira itaka mu dushashi, ashiramo n'udufumbire kugira azabone uko ahoheka imbuto, noneho mu kuzitera ntibizatume zihita zikura zitabanje kuma kuko zizaba zimaze kumenyera ubwo butaka.

Abagabo, abagore n'abana bambaye udupfukamunwa, bari mu murima uhinzemo ibigori, aho bari kwapurika bakoresheje ifumbire mvaruganda, kugira ngo barebe ko bakongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi.

Igiti cya pavuro kiriho imbuto nyinshi zeze zitoshye, aho bakizirikishije amakamba kugira kitagwa hasi zitari zera ngo bazisarure zimaze gukura neza n'ubujya kuziteka.

Abahinzi batatu barahagaze munsi y'umukingo, aho umwe afite sereri mu itireyi, undi afite dodo, kandi hakaba hari inyanya, byose akaba ari ibihingwa by'imboga bikoreshwa mu guteka.

Amatake g' amayanga akenshi gera mu bishanga no ku misozi. Gagaba gazwiho kutagira amazi menshi cyane kandi gatarura, kandi gararyohaga cane, akaba aribwa akenshi iyo ari kumwe n'ibishimbo.

Ibigori bya eburide, aho harimo umugabo umwe wambaye isengeri y'umuhondo, afashe ku dusagi hejuru, afasha no ku bisigati byabyo.

Ihene iziritse ku giti ifite umurunga mu ijosi aho zizwiho kororwa zigatanga ifumbire n'umusaruro binyuze mu kororoka.

Umurima uhinzemo ibireti，akenshi bikaba bihingwa， bikanera ahantu hakonje cyane，by'umwariko ahegereye ishyamba， bikaba bikorwamo imiti ya za Metane.

Inshyo ririmo inka zitandukanye za kinyarwanda zifite amahembe n'umwana ufashe mukoni mu ntoki waje kuziragira. Bakaba barazikuramo bagiye kuziha ubwatsi.

Imifuka irimo ibirayi badoze no hejuru bashyizeho n'amabambizo, utegereje imodoka ngo ingamba zibishyiremo, maze babigeze ku isoko aho abakiriya babibona biboroheye.

Isoko rikora mu buryo bwa rusange bacururizamo ibintu bitandukanye harimo imiteja, karoti, intoryi, inyanya, pwavuro n'imboga rwatsi.

Umurima uhinzemo pavuro zitoshye cyane bashingiriye kugira zitagwa hasi zikangirika akenshi zifashishwa iyo bari guteka imboga kugira zihumure zinaryohe.

Abagore babiri n'umugabo umwe wambaye bote, bari mu murima uhinzemo amashu, ahubwo amwe bayafashe mu ntoki, akaba yifashishwa mu guteka imboga ndetse akaba nayo ari mu bintu.

Umurima uhinzemo ibitunguru bya onyo biri mu mitabo n'indego zidafite ikintu kirimo ,aho nibimara gukura bazakura itaka barizamura kugira ngo babashe kubyuhira.

Umurima gwari guhinzemo ibirayi bikaba byiza ,abantu bari kubikura; abagore biteze ibitambaro, bambaye imipira n'ingofero hirya hariho n'ibiti by'intusi hahinzemo n'ibishimbo nko mu ndego.

Imodoka itwaye ibiva ku buhinzi ibitoki, bimwe biri mu mifuka ibindi biteretse hejuru, aho bari ku bipakurura kugira babigeze ku isoko, abashaka kubihaha baze kubigura.

Umurima uhinzemo ibigori bya iburide ,bizwiho kugira umusaruro mwinshi akenshi iyo byeze barabyotsa ibindi bakabimanika bikavamo impungure zo kujyana ku isoko ndetse n'izo kurya.

Amateke y'amabwayisi akenshi azwiho kugira amafu. Akabarya aryoha cyane cye iyo atekanye n'ibishyimbo akaba ari mu bitera imbaraga, akaba yera ku musozi ahantu hari ubutaka bwiza.

Umurima uhinzemo inyanya zifite ibitosha bakaba bakura itaka mu ndego mu gihe cyo gutabira bakarijyana mu mitabo ,hanyuma bagasasira bakajya barazitera umuti kenshi gashoboka.

Inyanya zitukuye, zeze n'izindi zicatsi zitari zera neza, zifite n'uruyange, akenshi zikaba zifashishwa mu gutukuza ibiryo, mu gukora za sosomati, n'ibindi bitandukanye kugira ibiryo biryohe.

Umugabo utereye isuka ku rutugu, witeze ingofero y'urubaraza, wambaye ikoti ry'umutuku, uri mu murima uhinzemo ibishyimo by'imishogoro bishingiriye n'urubingo impande ye, akaba avuye guhinga.

Amajyeri afite imiteja yenda kwera akenshi akaba aryoha cyane cyane iyo bayageretse ku bishyimbo, kandi iyo yumye nabwo arararibwa akagira icyanga, bakaba batayabagara bayaterera rimwe.

Igipapayi cya kizungu kiba kirimo imbuto z'umukara, akenshi kizwiho kuryoha cyane, kikaba gikunda kwera ahantu h'amayaga, kikaba kizwiho kugira n'uburyohe butagereranwa.

Igiti cy'umwembe ukiri mutoya, ukizamuka. Akenshi iyo kimaze gukura kizana imbuto ziribwa wazitonoye kandi zikaba zizwiho kuryoha cyane.

Isoko bacururizamo imbuto, harimo wotameruni, amaronji, imyembe, amavoka n'ibindi bitandukanye, byose bikaba biri mu bintu birinda indwara, bigafasha umuntu kugira amagara meza.

Umugore wambaye bote, wambaye n'imyenda y'igisarubeti bya kaki, wambaye amarinete, uri kumwenyura ufashe ku ngurube iri mu kirundururo cyayo. Yubakishijwe ibiti, akenshi zikaba zizwiho gutanga umusaruro.

Umurima uhinzemo inyanya akenshi zikaba zisa umutuku iyo zigeze igihe cyo gusarurwa, bakaba bazitera n'umuti zikaba zizwiho gutanga isosi no gukorwamo za sositomate.

Abantu batanditse kokombure. Kenshi zikunze kuribwa ari mbisi cyane cyane n'abagore; n'ibidodoki biribwa ahanini ari uko bitetswe kugira ngo biryohe bakabanza gukuraho ibishishwa by'inyuma.

Umugore wambaye ingofero, ufite inyinya, wambaye umupira w'umukara ,ukenyeye igitenge ufite amashu abiri, uri mu murima guhinzemo agandi harimo n'abandi nabo bari gusarura, hirya hariho ugwundi murima guhinzemo imyaka ikiri mitoya.

Umugore witeje imbere yihangira umurimo mu guhoheka ingemwe, aho afata amashashi agashyiramo itaka ririmo ifumbire agashiramo imbuto zigakwiramo kugira nibajya kuzitera zizahite zikomerezaho zitabanje gusubira inyuma.

Abagore bane bishize hamwe bari guhinga urukanda, Aho umwe yamanitse isuka hejuru kugirango wafatanye nabandi gukomeza guhinga, harimo n' undi urihagarara, hakaba hateye urubingo inyuma yabo.

Umudamu uri kwanika imyumbati hasi ku itaka, hariho n'abaje baripakiye bafite amagare, abandi bahagaze bari kureba uko ari kubigenza.

Imifuka zuzuyemo ibirayi, badoze no hejuru abantu bari kubireba nk'imodoka zirya zabuze uko zitambuka, kubera ubwinshi bw'iyo mizigo yafunze mu muhanda n'igare riri mpande yabyo.

Avoka eshatu, imwe basatuye ikibuto kiri kugaragara, mo imbere isa umuhondo nk'aho iryoshye cyane, akenshi izisa gutyo ziba ari imbangurire, kandi zera ahantu hakonja, cyane cyane mu Majyaruguru.

Umuri urimo ibirayi byeze bakuye bisa nibyeze, bifite ibara ritukuye bikaba birambitse hasi, bategereje abantu ngo bazaze babitoragure.

Imifuka yuzuye irimo impungure n'izindi bamennye hasi, akenshi bakaba bazibetesha hakavamo nk'igikoma izindi bakazitera kugira ngo nazo zirusheho gutanga umusaruro.

Inzu izwi ku izina rya (green house), ahantu hateganyirijwe gutuburira imbuto, mu kugerageza ubundi buryo bushya bwatanga ibindi bihingwa bidasanzwe bimenyerewe.

Umucuruzi ukora umwuga wo kudandaza ufite pavuro, n'ntoryi bikaba byose byifashishwa mu guteka imboga bikaziryoshya kandi bikanazihumuza.

Abanguzayi badanditse imyembe ku ideyi n'ibisheke. Abantu baza baje kugura bakagura ku mifungo, kugira ngo na bo baje kuyirya.

Ibijumba by'imituku bizwiho kugira amafu menshi, bituruka ku migozi iranda ku butaka, bikaba biri mu bitera imbaraga kandi kenshi biribwa hariho imboga kugira bitaniga umuntu.

Umugore wakenyeye igitenge, wambaye igitambaro cy'umweru n'agapira gaciye amaboko, uri mu murima uhinzemo ibishyimbo byazanye imishogoro bitangiye kuzana uruyange, akenshi ubu bikaba biribwamo imboga, ibindi bakabiteka.

Indobo isa n'umweruru, bacururizagamo wotameroni bakataguye bakoresheje icyuma gikwikije ikirindi c'igiti, akenshi zikaba zizwiho kugira amazi menshi cane.

Mu buryo bwa kijyambere bwo guhinga imboga n'imbuto, kugira ngo bakoreshe ubutaka bukeya, ariko batange umusaruro mwinshi w'ibikomoka ku buhinzi.

Isoko ry'imbuto bacururizamo imyembe, amarongi, manderena na za orange n'ibindi bitandukanye aha abantu baza baje guhaha n'abacururiza ku dutaro.

Isoko ry'imbuto aho bacururiza ibinyomoro, ibinyarwa, n'ibizungu, amaronji, wotameroni ,imyembe, na za manderena n'ibindi bitandukanye. Aho abantu baza baje kuzihaha.

Umugabo wambaye ikoti ry"umutuku n'ipantaro y'icatsi n'inkweto za bote, ufite udushashi tubiri duhubetsemo ingemwe, akaba akoraga umwuga wo gushira imbuto mu bihoha.

Amagi ari mu gakangara aho ari menshi arunze akaba akoreshwa cyane iyo arimabisi cyangwa ba yatetse akaba nayo atanga vitamini n'amaporoteyine.

Umugore ukenyeye igitenge, wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, ufashe yitangiriye itama ku muhini w'isuka, uri mu murima urimo urutoki akaba ari guhinga.

Ibijumba by'imituku biri mu mabase, bizwiho kugira amafufu menshi, akenshi utakirya cyonyine, bisaba ngo ube ufite ibintu by'isosi yo kukirisha kugira bitaza ku kuniga.

Umugore uri gucucira amazi mu murima mu myaka ye kugira ngo idahura n'umwuma noneho irusheho kumuha umusaruro bitewe n'uko yabonye amazi ahagije.

Umurima uhinzemo ibigori bikiri inongi bitari byakura, bitangiye kuzana udusagi, aho byavamo ubwatsi bwo guha amatungo. Ibyeze bakaba babyotsa, ibindi bakabihungura kugira ngo babone ibyo kurya.

Impungure z'ibigori zivunguye, aho iziri mu mufuka w'umweru ari iza mayizori izi muri guca akaba ari bya za buride zimwe ba bakaba zikuramo akawunga izindi patejoni, kandi zikaba zizwiho mu kuryoha cyane iyo bazitetse.

Igipapayi cya kizungu kizwiho kugira imbuto nini, na zo zikaba ziri mu birinda indwara, kikaba cyifashishwa no mu gutanga ibiryo.

Inkoko zibumbiye hamwe harimo amasake, inkokokazi, aho ziri kurya igiheri kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro, cyane cyane uturuka ku nyama.

Umugabo uri mu murima uhinze urukanda, harimo ibigori bikizamuka bitarera, aho ari kubikorera kugira ngo bizarusheho gutanga umusaruro mwinshi nibimara gukura.

Oranje ni ubwoko bw'amatunda buzwiho kuryoha cyane . Bakaba bayifashisha mu gukora amaji ndetse n'imitobe kugira ngo barusheho kuyarya mu gihe kirekire.

Isoko rusange bacururizamo ibintu bitandukanye harimo imboga rwatsi, amavuka ,ibitunguru, karoti, kokombure, inyanya n'izindi mboga zitandukanye.

Imbuto z'imyembe akenshi inini ziva hanze, into zikaba ziba mu Rwanda, bikaba biryoha cane. Imbere hakabamo ibibuto bitari binini cyane, bivuze ko umuntu arya icy'inyuma, zikaba nazo zituma uruhu rusa neza.

Ibiti by'imyumbati akenshi hakaba haribwa ibijumba byayo ndetse n'amababi akaba aribwamo imboga, aho harimo umugabo wambaye bote ufashe umuhoro wambaye umupira w'umweru kubikorera.

Ibihaza bizwi ku izina ry'imyungu cyangwa se amadegede, akenshi bakaba babikata, bakabiteka, mo imbere biba bisa umuhondo, harimo n'inzuzi, iyo ushaka uzikuramo cyangwa ukazirya.

Amateke azwi ku bwoko bw'amabungu ngayo mu kabase gasa icyatsi. Akenshi akabona bwo afufuka. Ari mu bitera imbaraga. Akaba aribwa hariho imboga nk'ibishyimbo by'umwihariko.

Ishyamba riri ku musozi aho ririmo urusobe rw'ibinyabuzima, bifasha abantu kubona umwuka mwiza bitanga umwuka wa ogisijeni ndetse hakavamo n'ibiti bishobora kwifashishwa mu bw'ubatsi.

Ibishimbo biri kumera by'imigondoro, kuberi ifumbire ryinshi ririmo, kimwe kikaba kikizamuka ikindi kigeze hejuru ho gato, ikindi gifite amababi abiri y'kindi kikiri gitoya cyane.

Ibishimbo by'ibizungu akenshi bita bya nyiramabuno bikaba bigira impeke nini cane ugereranyije n'uko ibindi biba bingana, kandi bikaba bimara igihe kinini bikiri mu murima, bakaba barya n'imiteja yabyo.

Umurima uhinzemo amasaka yeze, akenshi yifashishwa mu gushigisha umusururu, bayaseyemo ifu. Hakaba harimo n'ayo bakoresha mu guteka igikoma, kandi akaba agira intungamubiri nyinshi cyane.

Abahinzi bafite inkangara baje gusaruriramo amajeri ,aho yifashishwa mu guteka abana bakabona ibiryo byo kurya ubuzima bukarushaho kubamerera neza.

Igikukuri ko akenshi cyera kitegeye aho izuba rituruka kikaba kizwi ku izina ry'igihwagari hakaba havamo amavuta yifashishwa mu guteka ibiryo no gukaranga.

Imishingiriro yifashishwa mu gushyigikira ibishyimbo, kugira bizamukireho, bizayerereho, akenshi ituruka ku biti by'urubingo babanza gusongora, bakabishinga mu butaka, ibihingwa bikahatondagira.

Imifuka itatu ifite amabara y'umuhondo n'umutuku mu mpande, ishwetse no hejuru, irimo ibishyimbo akenshi bigerekwa hejuru y'ibiryo nk'ibirayi, n'ibindi kugirango bibifashe kuryoha cyane.

Jalide imeze neza ihinzamo ibishimbo bimeze neza, n'ibigori hirya hakaba hari ibiti by'indabo. Hakaba harimo n'akantu kubatse k'ishashi, akaba ari ahantu ushobora kwifotoreza, kandi ukabaza ukahakura n'ibyokurya nk'umushogoro.

Umugore ufashe intara ari kugosora ibishyimbo, kugira havemo imiragara, noneho ibisigaye bibe bisa neza, inyuma yari inzu y'indaro, iyo isakajwe ibyatsi ya gakondo.

Umukobwa washyize imbuto ku kayungiro, aho ari gutoranyamo inzima ibipfu akabishyira ku ruhande, imiragara akayungurura ikajya has,i kugira abe afite izimeze neza.

Ubunyobwa batonoye busa umutuku bumeze neza, bukaba bukoreshwa mu kubukaranga hakavamo ubwo bahekenya, ubundi bakabusya bukavumo ifu batekamo isosi, ndetse bukaba bwanaribwa ari bubisi.

Umurima uhinzemo ingano zitari zuma neza. Akenshi hakaba hariho izivamo ifarini, izindi bakazisya hakavamo izo bakoramo imbanda, hakaba n'izo bakoramo igikoma.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe wirabura, ufashe ishaka mu ntoki, uri mu murima ahinzemo akaba atari yera, akiri ibitumbwe akeshi yifashishwa mu gushigisha umusuru, no mu ifu yo gutekamo igikoma.

Ibigori by'imberenge akenshi biboneka iyo byumye, iyo babitetse bikaba bivamo amahundo, kandi babihungura hakavamo impungure zabeteshwa, izindi zigaterwa kugira ngo umusaruro ukomeza uboneke.

Ibikukuriko akenshi byera hifashishijwe izuba kuko byera ariho byitegeye, bivamo amavuta yifashishwa mu guteka azwi ku izina ry'ibihwagari, akenshi araryoha cane.

Abagore biteze ibitambaro bari kugosorera amasaka ku ntara mu kigorigori, ahantu hari ikibara batari bahinga, bategereje kuzatunganya kugira havemo indi myaka.

Imiteja akenshi bateka babanje kuyisusuraho udutwe naturiya tw'inyuma ,akenshi ikaba itekwa mu birarayi n'ibindi biryo bitandukanye twabadukucuka.

Umurima uhinzemo amasaka yeze y'amahundo igisigaye akaba ari ukuyasarura ukagenda bakayanika, barangiza bakayahura baka bakuramo ayo kubeteshamo igikoma ndetse andi bakayashiramo itazi akavamo amakoma yakwifashishwa mu gushigisha umusuru.

Ibirayi baketsemo imisate bakabikaranga mu mavuta barangije babyarura ku isahani kugira ngo abantu babishaka baze kwarura babirye bibaryoheye cyane.

Amahundo y'amasaka yeze, aho iyo amaze gukura bayasarura, bakayavunga hakavamo imbuto bakazanika, zikavama amakoma n'amamera byifashishwa mu gushigisha igikoma n'umusuru.

Umukobwa ufashe intara mu ntoki, uri kugosora ibishyimbo abishyira mu mabase kugira ngo havemo imikungugu, ababirya n'ababitera bazabone uko babikoresha imyanda yaragabanutsemo.

Umusaruro w'ibigori aho byeze bakabipfundika, barangiza bakabimanika ku ngango, kugira ngo birusheho kuma neza noneho bazabihungure bivemo impungure.

Umurima uhinzemo amasaka akiri ibitete. Akenshi iyo yeze bakaba bayasarura bakajya kuyanika, yamara kuma amwe bakayakoramo amamera yo gushigishamo imisuru n'ibindi, kandi bakaba bakongera kuyatera.

Inzuzi zirunze zitwikije agasambi aho bazitera no zikamera , zikazavamo ibindi bihaza akaba ari n'ubwo bazisekura zikaribwa imboga.

Umugabo n'umugore bambaye udupfukamunwa, baje gutambagira amajeri gashishe gameze neza, hejuru haciye insinga z'amashanyarazi ,harimo n'igiti c'avoka n'akayira kabageza aho bahinze imyaka yabo.

Umugabo uri kwitegereza umugore uri kugosora ku ntara aho ari kugira ngo arebe uko havamo imiragara noneho imbuto zisigarira mu myanda zifite kugira aho bazikoreshe zifite isuku.

Mu bunyobwa basaruye kikaba ari kimwe mu binyamisogwe byera munsi y'ubutaka. Akenshi na kenshi bukunze kuribwa bukaranzwe cyangwa se bakabubeta bakabuteka mu biryo.

Impungure zihiye aho zituruka ku bigori biba byumye, bakabihungura impungure zamara kuboneka bakabiteka, iyo bihiye biba biryoshye cyane bifite icyanga.

Ubunyobwa akaba ari igihingwa cyera mu butaka ariko k'ikinyamisogwe ,cyane cyane bikaba bitekwamo nk'isosi kandi bakabukaranga bukaribwa nk'impungure.

Ikigo cyororerwamo ibitungwa cyubakishijwe ibiti n'imbaho gishakajwe amabati ashaje, kikaba gikoreshwa kugira ngo zitaza konera abaturage.

Ahantu bororera ingurube aho nyirazo n' umudamu w'umugaganga wazo wambaye ikanzu y'umweru witeze igitambara kijya gusa umutuku waje kuzivura kugira amenye ikibazo zifite zirusheho kongera umusaruro.

Ingurube irike mu kiraro cyazo akenshi zizwiho kurya ibintu byose basutse ibazi zo hasi, kugira yakwivurugutamo kenshi bakaba bazitekamo kabenzi.

Inka fite ibara ry'umukara iri mu kiraro cubakishijwe imbaho, yatayemase iruhande rwayo, ifite n'ikibumbero inyweragamo amazi gisa ubururu, n'ahantu irira ubwatsi busanzwe.

Ihene iri mu nzu itaziritse, akenshi zikaba zizwiho kugira amahane, kuvuga kwazo zikaba zihebeba. Zirya ibyatsi kandi inyama zazo barazikunda cyane.

Ikiraro cy'ibiti bororeramo inka, akenshi akaba ariho zirara, zikavamo aruko bagiye kuhakorera amasuku. Amase zataye na yo bayarunda ku ruhande kugira ngo zitayaryamamo. Gisakaje amabati kandi hejuru harabona.

Umutureyi wuzuyemo amagi arunze ahantu hamwe, aho wifashishwa mu gutwara amagi neza kugira ngo atangirika, cyangwa se akameneka bityo bikongera umutekano wayo.

Inka yo mu bwoko bw'amafirizoni, bajishije kugira umugabo uri gukama abone uko ayivuruganya, maze aze kugira vuba, noneho namara guhumuza abona ubuyabuganiza mu kabido.

Inka y'ingweba iri ahantu mu ruzitiro hazengurutswe n'ibiti. kugirango ibone uko yatanga ifumbire ndetse nyuma izaze gutanga amata kugira barusheho kwiteza imbere.

Abarozi babiri bari kwivurira inka badakeneye abaveterineri, aho bayasamishije bakaba bari kuyiha umuti, kugira ngo indwara irwaye ikire, irusheho gutanga umusaruro wisusumbuyeho.

Inka z'inyambo zizwiho kugira amahembe maremare ,ziri mu gikuyu mu buryo bwo kubungabunga umuco no kuwusigasira, zikaba zarakundaga kororoka cyane.

Inkokokazi akenshi zitera amagi menshi, zikaba zizwiho mu gutotora, zikaba zitanga n'inyama, akenshi akaba ubworozi bw'amatungo magufi.

Abaveterineri bashinzwe kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane ibiva mu mashyamba harimo nk'inkende aho bayifashe bari kureba ikibazo ifite niba ari uburwayi bayivure.

Imishwi zituruka mu magi, akenshi zikavamo inkoko iyo zimaze gukura, bukaba ari ubworozi bw'amatungo magufi, yororerwa mu rugo, akenshi zikaba zibeshwaho n'ibiheri,

Ingurube yorowe mu bwoko bwa kijyambere, aho hari abaveterineri bashinzwe kuzitaho ngo barebe imikurire yazo n'uburyo yatanga umusaruro mwinshi, bityo bigateza imbere umworozi.

Abaganga b'amatungo magufi n'amaremare baje bambaye ibikanzu byabugenewe n'udupfukamunwa, aho baje kureba ikibazo amatungo yaba afite kugira bayahe imiti akire.

Inkoko yo mu bwoko bwa Saso isa n' umutuku, akenshi zizwiho gutera amagi menshi, akaba yifashishwa nk'ibiribwa cyane cyane bitanga intungamubiri, amaporoteyine, zikaba zinaribwa n'inyama.

Amagi ari mu ma tureyi, akaba ari umusaruro uturuka ku nkoko, akaba avamo umureti ndetse agatanga n'ibiribwa bikungahaye ku ma poroteyine.

Inka y'inyarwanda izwi mu za kera, zizwiho kugira amahembe maremare cyane, akenshi zikaba zibera ahantu mu bigo ndangamurage, mu buryo bwo kwibutsa amateka.

Veterineri waje gutera inka urushinge yambaye amaherena kugira ngo bamenye ikibazo ifite, muza bayivure indwara irwaye ikire maze ikomeze itange umusaruro.

Mu bworozi bw'ihene harimo umushumba wazo uteruye akakiri gatoya aho zizwiho gutanga umusaruro n'ifumbire ndetse no mu gutanga inyama binyuze no mu kororoka.

Inyana iri mu kiraro cinka akenshi cyera bitaga uruhongore zikaba zitwa ingweba. Na none ikaba ifite amabara y'umweru n'umukara yo mukiraro cubakishijwe ibiti kugira ngo itaja kononera abaturage.

Inka y'ingweba ifite amaherena abiri ku matwi yayo yombi imbere hariho inuma n'inyuma yayo, ikaba iryamye mu mucaca ikaba imeze nk'aho yakutse yahaze ubwatsi.

Inyamaswa y'ingwe akenshi y'inkazi izwiho kugira amahane menshi, akenshi bavuga ngo ziherekeza abantu. Iyo yirutse ku muhigo biragorana ko yawucika.

Inyoni akenshi zibera mu biti hejuru cane, izwi ku izina rya Kagoma, ikaba iba ahantu harehare hahanamye cane, Aho itorereza ibyana byayo guhiga kandi ikaba nta muhigo upfaga kuyicika, icyo ishaka cyose iragifata.

Ingagi ziri mu ishyamba, aho harimo imigano, zikaba zizwiho kugira imbaraga nyinshi, zikaba zirya ibitokitoki by'imigano ndetse bakaba baza kuzisura kenshi bazanye n'amadovize.

Inyoni y'inyamanza iri mu mucaca akenshi zizwiho kutagira amahane no konera abantu bose ikaba iba isa neza kandi ikunzwe cyane n'abana.

Inuma izwiho kuguguza iyo ziri mu giti hejuru cyane cyane, zikaba zororerwa mu ngo. Abantu baziha nk'amasaka n'utundi dutandukanye kugira zigume aho ngaho iwabo.

Inkenda z'ishyamba kenshi zizwiho konera abaturage kandi zikaba zitungwa n'imbuto n'imineke, n'andi matunda atandukanye.

Inyamaswa izwi ku izina ry'isatura, hakaba hari n'abayita gasongo, ikaba izwiho kwiruka cyane, ku buryo izindi nyamaswa kuyifata byagorana, ikaba yibera mu myobo cyane cyane itacukuye.

Imbeba yo mu rugo izwiho kwangiza imyaka, cyane cyane nk'ibigori ,amasaka, n'ibindi bitandukanye biba biri mu nzu nk'imyenda, aho akenshi bazitega kugira zidakomeza kwangiza byinshi.

Inyamaswa y'inkende, iba mu ishyamba, akenshi zizwiho kona imyaka cyane, ikaba igendera hejuru mu biti, ndetse ikaba ikunda kurya n'imbuto.

Inyoni nini izwiho kuba hafi y'amazi，akenshi itungwa n'amafi iba yahize， kandi iyo imanutse igiye gufata umuhigo， ntabwo ijya ihusha， iramanuka kugeza iwuzamukanye ikawurya.

Ingagi iri kumwe n'icyana cyayo. Akenshi zizwiho kuboneka ahantu hake ku isi, by'umwihariko mu Rwanda, muri Kongo, ahantu mu birunga h'imisozi miremire, kenshi zikaba zikurura ba mukerarugendo zikinjiza n'amadovize.

Inkende ziba mu ishyamba akenshi zizwiho kurira ibiti cyane, zikaba zikunda imbuto cyane cyane imineke n'izindi zitandukanye, zikaba zizwiho no kugira amahane.

Inyoni z'ishyamba zigira umunwa munini akenshi zikaba zihiga amafi akaba ariyo zirira. zikaba ziri mu biryanyama, akenshi zikaba iyo zigiye gufata umuhigo bizorohera.